Icyumba k'ishuri ryigiramo abana b'incuke, harimo ibikoresho bitandukanye ameza afite amabara atandukanye, n'intebe z'ubururu, umutuku, ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bakina.

Ishuri ry'inshuke, risize irangi ry'umuhondo, hariho ibikoresho bitandukanye: igisokozo, umunyeshuri, indobo n'ibindi byinshi, hari n'umunyeshuri kwinjira mu ishuri, hasi ku isima yaratobaguritse.

Mu kigo cy'amashuri y'incuke, hari amashuri menshi kandi meza yubakisha amatafari ahiye, hari n'ubusitani bwiza, hari n'ibyicungo bakoresha kugira abana bishime, bifite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umwana w'umuhungu, wambaye umupira w'icyatsi, wiga mwishuri ry'incuke, afite ikintu mu ntoki, ari gushushanya, inyuma ye hari umuntu w'igitsina gore, wambaye umupira w'ubururu.

Abanyeshuri biga mu ishuri ry'incuke bakunda gukinisha ibikino bigiye bitandukanye, harimo n'utumodoka turimo amabara atandukanye ubururu, umuhondo, umweru, icyatsi na move kugira ngo bibashimishe.

Ubusitani bunini cyane buteyemo ibyatsi hari aho abanyeshuri b'incuke bakinira, hirya hari amazu menshi cyane yubakishije amabati y'umutuku na orange.

Mu mashuri abanza hari ubwiherero, bwubakisha amatafari ahiye, bufite n'inzugi z'ubururu aho bugomba kuba busukuye, kugira ngo butazatera indwara abanyeshuri bahiga.

Ibizeru bibiri kimwe cyanditseho seti C n'ikindi cyanditseho seti D kirimo imibare myinshi itandukanye, byifashishwa biga mu mashuri abanza.

Mu mashuri abanza hari ibikoresho bibafasha kwiga neza bifite amabara atandukanye harimo umukara, oranje, umuhondo, ubururu, umutuku, icyatsi, shokora, umweru n'andi menshi.

Icyumba cy'ishuri kiyiza kirimo ibikoresho bitandukanye barabifashisha biga, harimo intebe bicaraho zifite ibara ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi n'ameza y'umweru, n'ibindi bikinisho byinshi bakoresha biga banakina.

Ku kigo cy'amashuri abanza hari amashuri menshi kandi meza yubakishije amatafari ahiye, yubakishije n'amabati y'ubururu, hanze mu kibuga hari n'ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hanze hahagaze n'abantu benshi cyane.

Ikigo cy'amashuri abanza, harimo ishuri ririmo ibikoresho byinshi kandi byiza, bakoresha bigisha abanyeshuri kugira ngo bamenye, harimo imitako, ibipupe ndetse n'ibindi bikoresho bibafasha mu myigishirize.

Mu mashuri abanza bafite ibikoresho byinshi bitandukanye bibafasha kwiga mu masomo yabo, harimo imibare kugira ngo bige guteranya no gukuramo ndetse n'indi mibare kugira ngo bazamenye kubara.

Mu kigo cy'amashuri abanza, hari amashuri menshi kandi meza ageretse, hanze hari abantu benshi, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyenda yo mu bwoko bw'imikenyero, bambaye n'udupfukamunwa, hari n'umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare, biragaragara ko baje gufungura icyo kigo bwa mbere kugira ngo babashe kujya bakigiramo.

Mu kigo cy'amashuri abanza harimo ishuri abanyeshuri bigiramo, ririmo ibikoresho byinshi bakoresha intebe zo kwicaraho, ameza, amakaramu bakoresha, aho bandika ku kibaho n'ibindi bikoresho byinshi.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, mu isomero ry'ibitabo, aho hicayemo umwarimu w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru, harimo n'ibitabo bitandukanye, aho umunyeshuri aza gufata igitabo kugira ngo asome yiyungure ubumenyi.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, hari amashuri menshi kandi meza, hanze hahagaze abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, abambaye ingofero zibarinda n'amajiri y'icyatsi n'undi wambaye jire ya orange, baje gusana ibyangiritse.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye hicayemo abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo, igitsina gore, abambaye ingofero z'umuhondo n'uwambaye ijire ya oranje n'icyatsi bicaye mu buryo bw'uruziga, imbere yabo hari ameza ateretse amazi ya sosiyete ya nili bari mu nama.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abanyeshuri benshi cyane, harimo abambara imipira y'icyatsi n'abambaye impuzankano y'ishati y'umweru, karuvate n'ipantaro ya kake, bigaragare ko baje kubasura bari mu biganiro.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, hari abambaye ingofero zibarinda iy'umuhondo n'umweru n'amajire y'icyatsi bigaragare ko baje gusana ayo mashuri, hirya hari imodoka y'umweru iparitse.

Abantu benshi b'igitsina gabo bambaye amajire y'icyatsi bari ku bwiherero rusange, bwo ku mashuri ya segonderi, biragaragara ko baje kugenzura uburyo bukoreshwa n'uko bumeze. Hanze hari ikigega kijyamo amazi y'imvura.

Ni mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo amashuri menshi kandi meza yubakishije amatafari ahiye, hanze hari n'ikigega gifata amazi y'imvura, hateye n'ubusitani, hari n'ibyicungo bicungaho kugira ngo bishime, hari n'umuntu uhagaze hanze.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye harimo abanyeshuri benshi bambaye impuzankano y'ikabutura ya kake n'ishati y'ubururu bwerurutse, hari nakandagira ukararabe, ifite ikigega cy'ubururu n'akabase k'icyatsi aho buri munyeshuri winjiye agomba gukaraba neza n'amazi meza n'isabune.

Mu nzu harimo abantu benshi cyane igitsina gabo n'igitsina gore, harimo abambaye amajire y'icyatsi n'undi wambaye ijire ya oranje bakora umuriro w'amashanyarazi, bari kuganira ku cyakorwa.

Mu mashuri yisumbuye, mu isomero ry'ibitabo, harimo ibitabo byinshi bitandukanye, bifite n'amabara atandukanye, harimo iby'ubururu, icyatsi, umutuku n'ibindi byinshi.

Mu kigo cy'amashuri cya segonderi, harimo abanyeshuri benshi bambaye impuzankano, ishati y'umweru n'ipantaro ya kake, abandi bambaye imipira y'ubururu, n'amajipo ya kake, hari umuntu w'igitsina gabo uhagaze imbere yabo ufite urupapuro mu ntoki n'indangururamajwi.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu bwijimye, bafite igikombe mu ntoki zabo bari mu inzu nini, inyuma yabo hari icyapa kinini cy'ubururu cyanditseho bank of Kigali.

Mu kigo cy'amashuri yisumbuye, harimo abanyeshuri benshi cyane, harimo abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano y'ishati y'umweru, n'ipantaro cyangwa ijipo bya kake, hari n'umuhungu wambaye umupira w'icyatsi, bafite amakaramu mu ntoki.

Mu muhanda harimo abanyeshuri benshi cyane, abakobwa n'abahungu, bambaye impuzankano, ipantaro cyangwa ijipo by'ubururu bwijimye n'imipira isa kake, imbere yabo bafite icyapa kinini cyane cyanditseho Nyagatare secondar school, kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na kabiri, bari mu rugendo rwo kwibuka.

Mu nzu nini cyane yabugenewe, harimo abanyeshuri b'imyuga n'ubumenyingiro ndetse na kaminuza, baje gufata impamyabushobozi zabo kugira ngo bazabashe kubona akazi keza.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza hicaye abantu benshi cyane harimo abakobwa n'abahungu bicaye ku ntebe z'imbaho bari kwigishwa uko bakiteza imbere.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza, hicayemo abantu benshi cyane higanjemo urubyiruko, abasore n'inkumi, buri wese imbere ye hateretse mudasobwa, bari kwiga.

Aho abanyamaguru bagendera hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave, hari abantu bari kugenda, hakurya hari ubusitani bwiza buteyemo indabo n'igipangu cyubakishije giriyaje.

Inzu nini cyane kandi nziza isize irangi ry'umweru, yubakishije amabati y'umutuku, hanze hari ubusitani bwiza buteyemo indabo, hari n'ikigega gifata amazi y'mvura, hari n'aho abagenzi banyura hubakishije amatafari yo mu bwoko bw'amapave.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza hicayemo abantu benshi cyane harimo ab'igitsina gabo n'igitsina gore hari umugabo wicaye imbere yabo ufite indangururamajwi mu ntoki ze uri kuvuga.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro naya kaminuza harimo abantu benshi cyane ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bambaye imipira yumukara bicaye ku ntebe z'umweru, bari mu nama babwirwa ukuntu kwiga imyuga ari ingirakamaro.

Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza batanze impamyabushobozi ku bantu bahasoreje aho hari abantu benshi cyane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bambaye imyenda igaragaza ko basoje amasomo yabo barishimye cyane.

Mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro n'aya kaminuza hari ishuri rinini kandi ryiza risize irangi r'yumweru, hanze hari ubusitani bwiza buteyemo ibiti byinshi cyane.

Mu nzu harimo abantu benshi, igitsina gabo n'igitsina gore, biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro cyangwa amashuri ya kaminuza, bafite amakaye imbere yabo n'amakaramu, bari kwandika.